Icyumba kinini kirimo sima, gisize irange ry'umuhondo gifite ikibaho cy'umukara, gifite urugi rw'ubururu kirimo intebe nyinshi zifite ibara ry'icyatsi n'ubururu, ameza y'umutuku kirimo abana benshi.

Abana benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bahagaze begeranye, harimo abakobwa n'abahungu, imbere yabo hahagaze umugore wambaye umupira wi'cyatsi ukenyeye igitenge, inyuma ye hari ibiti byinshi, bifite amababi, iruhande rwabyo hari inzu.

Abanyeshuri batoya b'abana bambaye amashati y'ubururu bwerurutse, amakabutura n'amajipo y'ubururu bwijimye, bicaye barebana hagati yabo harimo ameza, abana babiri bafite udukarito dufite ibara ry'ubururu n'umukara.

Ishuri rinini ririmo sima, risize irangi ry'umuhondo, rifite ikibaho kigiye cyometseho impapuro z'amabara atandukanye umweru, ubururu, imbere yacyo hari umwarimu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba kinini kirimo sima gisize irangi ry'muhondo, gifite ikibaho kinini cy'umukara imbere yacyo hari abanyeshuri bambaye amashati y'ubururu, bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umutuku.

Abana batonze umurongo bambaye imyenda y'amabara atandukanye bahagaze mu kanyatsi, imbere yabo hari umugore wunamye, imbere ye hari indobo y'icyatsi hari n'akabase k'ubururu.

Abana benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bafite ibikapu, bicaye bakoze uruziga rw'igice, imbere yabo hagati hahagaze umugore wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye z'umweru.

Abana benshi bicaye ku ruziga, bambaye imyenda y'amabara atandukanye yiganjemo umuhondo, bicaye ku mukeka urimo amabara menshi, hagati yabo hahagaze umugore wambaye ibitenge, iruhande rwabo hateretse intebe zifite ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini, gifitemo intebe z'ubururu, n'imiryango itatu, kirimo abana b'abakobwa n'abahungu bahagaze kumukeka, ku ruziga, hagati yabo hari umugore ukenyeye igitenge.

Icyumba kinini gifite irangi r'icyatsi kirimo sima kirimo intebe zifite ibara ry'icyatsi n'ameza, kirimo abana b'abahungu n'abakobwa bambaye amashati n'amajipo n'amapantaro.

Abana benshi harimo abakobwa n'abahungu bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Bahagaze begeranye mu kavuyo, basa n'abakoze uruziga. Hagati yabo hahagaze abantu babiri bakuru, bambaye amakoti y'umweru.

Abana b'abakobwa batatu bambaye amashati, amajipo n'inkweto, babiri muri bo bafite udukarito, dufite ibara ry'umukara n'ubururu, bahagaze imbere y'ikibaho cyanditseho imibare.

Inzu nyinshi zubatse zegeranye, zisakaje amabati y'ubururu, zifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu n'icyatsi, hagati mu kibuga hakonje hari igitaka cyinshi.

Icyumba kinini kirimo sima giteye umucanga, gifite amadirishya afite ibirahuri bibonerana, kifite umuryango usize irangi ry'icyatsi, kirimo intebe, n'ameza n'injerekani ifite ibara ry'umuhondo.

Abana benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye bakoze uruziga bari kubyina basimbuka, hagati yabo hari umugore mukuru wambaye ikanzu y'umutuku ufite ibisuko na we uri kubyina yasimbutse.

Inzu yubakishije amatafari, isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati, iriho icyapa gisize amabara y'ubururu, umuhondo, icyatsi, cyandikishijeho ibara ry'icyatsi ubururu n'umutuku.

Inzu nini yubakishije amatafari isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari ikibuga kinini cyane kirimo akanyatsi, iruhande rwacyo hari abanyeshuri bambaye amashati n'amakabutura y'umutuku.

Inzu irimo sima iriho intebe ifite ameza ateretseho imashini ifite ibara ry'icyatsi n'umweru, iruhande rwayo hari umuntu warambitse ikiganza ku meza.

Inzu nini cyane, yubakishije amatafari ifite amadirishya, iruhande rwayo hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi, imbere yacyo hari abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bari kujya mu muhanda.

Umunyeshuri w'umukobwa wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, ijipo ya kacyi, uhagaze ku muhanda, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari, ifite idirishya risize irangi ry'icyatsi.

Abana benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bamwe bahagaze abandi bicaye ku ruziga, hagati yabo hari umugore wambaye ingofero, umupira, ukenyeye n'igitenge, inyuma yabo hari inzu n'ibiti birebire.

Umwana w'umuhungu wambaye imyenda ya kaki, ahagaze mu byatsi, iruhande rwe hari ikirundo cy'amapine azengurutswe n'indabo, iruhande rwaho hari amashuri yubakishije amatafari.

Abantu bambaye imipira y'imikara n'amapantaro y'imikara, bari gutambuka mu kibuga iruhande rwacyo hari igiti kinini gifite amababi y'icyatsi ku mpande zacyo hari amashuri, yubakishije amatafari asakaje amabati y'ubururu.

Umufuka w'umweru ufite umusozo w'umutuku, uteye ku gikuta ushushanyijeho ibikoresho bitandukanye bakoresha mu buhinzi harimo, ishoka, isuka, umupanga, ingorofani n'ibindi.

Abana bane bari kugenda, babiri bari imbere umwe afite icupa, abandi babiri bari inyuma, bateruye ibase irimo ibiryo, iruhande rwabo hari amazu, yubakishije amatafari, afite amadirishya asize irangi ry'icyatsi.

Umwana wambaye ishati, ikabutura y'umutuku n'inkweto z'umuhondo, uri gutambuka mu muhanda, iruhande rwaho hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi, cyegeranye n'ibiti birebire bifite ibibabi by'icyatsi, iruhande rwaho hubatse inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati y'umutuku.

Etajeri yegamiye ku gikuta itenzeho ibitabo by'amabara agiye atandukanye, harimo amabara ya oranje, move, umweru, umuhondo n'icyatsi, hakaba hanateretse telefone hejuru y'ibitabo kuri etageri ibanza.

Inzu ntoya yubakishije amatafari n'umucanga, isakaje amabati, ifite inzugi z'icyatsi, ku gikuta hakaba hometseho insinga nyinshi zifite ibara ry'umweru n'umukara.

Icyumba gitoya kirimo ibintu byinshi byegeranye, kirimo intebe, ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu n'icyatsi, arambitseho impapuro, imashini, ibitabo, iruhande rwayo hari igikapu cy'umukara.

Igikuta kinini cyubakishije amatafari, cyometseho igipapuro cy'umuhondo, cyandikishijeho ibara ry'umutuku n'imibare myinshi imanuye yandikishije mu ibara ry'ivu n'amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara.

Igikuta kirekire cyubakishije amatafari, gisize irangi ry'umuhondo n'umukara, gishushanyijeho abanyeshuri babiri, bambaye amashati, ijipo n'amakabutura biciyemo uturongo.

Igikuta cy'amatafari cyometseho ikibaho cyanditseho inyajwi n'ingombajwi harimo: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j n'izindi.

Icyumba kirimo sima, gisize irangi ry'umuhondo gifite parafo y'ubururu, kirimo ameza ateretseho igitabo cy'ubururu na sharijeri z'icyatsi, gifite n'intebe, hari n'umuntu uhagaze wambaye umupira w'ububuru.

Igikuta cy'amatafari cyometseho umwenda w'amabara atatu, ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi, mu ibara ry'ubururu handitse ndi Umunyarwanda; isano ihuza Abanyarwanda baterwa ishema no kuba Abanyarwanda.

Idirishya risize irangi ry'igitaka rifite ibirahure bibonerana, byometseho urupapuro rw'umuhondo n'umweru, rwandikishijeho mu ibara ry'umukara imibare minini, irimo cumi n'umunani, mirongo itanu, n'inyuguti nyinshi.

Igikuta gisize irangi ry'icyatsi n'umuhondo, cyometseho impapuro zifite amabara atandukanye, ubururu, umuhondo n'umweru, gishushanyijeho inyoni, inzu, uruziga, urukiramende na kare.

Abana benshi harimo abakobwa n'abahungu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, begereye inzu yubakishije amatafari isize umucanga, ifite inzugi n'amadirishya bisize ibara ry'icyatsi, iruhande rwabo hari abagore babiri bakuru.

Ikibuga kinini kirimo akanyatsi, kirimo abana benshi b'abanyeshuri bari gukina, bambaye amashati y'ubururu bwerurutse n'amapantaro n'amajipo ya kaki, kizengurutswe n'amashuri yubakishije amatafari asakaje amabati y'umutuku n'ubururu.

Ibikarito bigerekeranyije bitinze mu kabati, imbere yaho hari intebe iriho amakayi n'ibitabo n'igikombe, iruhande rwaho hari etajeri itenzemo ibitabo.

Abanyeshuri b'abahungu bambaye amashati y'ubururu, amapantaro ya kaki, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, bicaye ku ntebe zisize irangi ry'icyatsi.

Igikuta gifite ibara ry'umuhondo, kiriho ikibaho gifite ibara ry'umukara, handitseho n'ibara ry'umweru, imbere yacyo hahagaze umugore wambaye itabuririya y'umweru.

Abagore bambaye amashati y'ubururu, amajipo y'umukara, bafite imipira y'icyatsi mu ntoki, bahetse ibikapu, bari mu muhanda; iruhande rwabo hari inzu yubakishije amatafari, isakaje amabati y'ubururu.

Inyubako yubakishije amatafari isize irangi ry'umweru, ikagira amadirishya afite irangi ry'icyatsi, imbere yaryo hari abanyeshuri bahagaze ku ntebe bari guhanagura amadirishya.

Abanyeshuri benshi bicaye bazengurutse ameza bari kwiga, ku meza hateretseho ibitabo byinshi, iruhande rwabo hari etajeri itenzemo ibitabo bitandukanye, hejuru ya etajeri hateretseho ibikarito.

Inzu nini ndende yubakishije amatafari, isize irangi ry'umuhondo, ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, ikaba iteye sima, iruhande rwayo hakaba hari ikibuga kinini gifite ibara ry'igitaka.

Inzu ziri hagati y'ibiti birebire byegeranye, iruhande rwaho hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi, cyicayemo abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, bafite ibikapu, imbere yabo hahagaze abagabo babiri.

Inzu nini yubakishije amatafari isakaje amabati, ifite amadirishya n'inzugi by'ubururu, iruhande rwayo hahagaze abantu bambaye imipira y'umweru, iruhande rwabo hari indabo nyinshi zifite amabara atandukanye.

Inzu nini yubakishije amatafari, isize irangi ry'ivu, iruhande rwayo hari umuhanda munini urimo imodoka, hari n'abanyeshuri bari gutambuka bahetse ibikapu, bambaye amashati y'ubururu, amajipo n'amakabutura y'umukara.

Icyumba kinini kirimo sima gisize irange ry'umukara, gifite ikibaho cy'umukara, imbere yacyo hari ameza, imbere yayo hari umusore uhagaze wambaye ishati y'umweru areba bagenzi be bambaye imyenda isa.

Inzu nyinshi ndende zegeranye zubakishije amatafari zisakaje amabati y'ubururu, iruhande rwazo hahagaze abantu, imbere yazo gatoya hari ikigega kinini cy'umukara cyegereye umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Indabo zifite amabara atandukanye harimo umuhondo, icyatsi zegereye umuhanda wegeranye n'inzu yubakishije amatafari, yometseho icyapa cy'umweru cyandikishije mu mabara y'umukara, ubururu na oranje.

Abanyeshuri benshi bahagaze begeranye, harimo abakobwa, bambaye amashati y'ubururu bwerurutse n'amajipo ya kaki n'abasore bambaye amashati y'ubururu bwerurutse n'amapantaro ya kaki, bahetse ibikapu, bahagaze ku kibuga bakiniraho.

Icyapa cy'umweru kiri mu kirere, gikoze igice cy'uruziga cyanditseho n'ibara ry'ubururu n'umukara munsi yacyo hari igitambaro gifite ibara ry'ivu.

Icyumba kinini kirimo amakaro, kirimo ameza ateretseho ama mashini afite imigozi myinshi, imbere yayo hicayera abanyeshuri bambaye amashati, amapantaro ndetse n'amasogisi.

Icyumba kinini gifite sima, giteye irangi ry'umweru, gifite parafo iriho amatara, kirimo ameza n'intebe bikoze mu mbaho, iruhande rwaho hari akabati kanini cyane.

Inzu yubakishije amatafari isize irange ry'umweru, ifite amadirishya afite ibirahure bibonerana imbere yaho hahagaze abanyeshuri benshi bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara.

Abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu bambaye amashati y'umweru, amapantaro y'ubururu n'imipira y'umukara bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, hateretseho mashine z'umukara zifunguye.

Abanyeshuri benshi bari mu muhanda bahetse ibikapu bambaye inkweto z'umukara, iruhande rwabo hari igare ririho umugabo wambaye ishati, iruhande rwe hari igipangu kinini cyubakishije amatafari.

Inzu nini isakaje amabati y'ubururu ifite inzugi za shokora, amadirishya y'umukara, imbere yayo hahagaze abantu, iruhande rwabo hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi giteyemo n'ibiti birebire.

Inzu nyinshi zegeranye zubakishije amatafari zisakaje amabati y'umutuku, zisize irangi ry'umuhondo, imbere yazo hari umuhanda munini urimo imodoka, iruhande rwayo hari abana benshi bahagaze.

Inzu irimo sima iteye umucanga, irimo akabati gakoreshejwe mu mbaho n'ibiti, gatenzemo ibitabo bigiye bitandukanye, bifite amabara y'icyatsi, oranje, umukara n'umweru.

Igikuta gifite ibara rya kaki, cyometseho ikibaho gifite ibara ry'umukara cyanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru, ibara ry'ubururu n'ibara ry'umutuku.

Ikirere gifite ibara ry'umweru n'umukara, cyegeranye n'inzu isakaje amabati, iruhande rwayo hari ibiti birebire bigufiya bifite amashami manini, iruhande rwayo hahagaze abanyeshuri benshi bari ku mirongo.

Abakobwa bicaye hasi barambuye amaboko, bamwe bambaye udupira tw'umweru n'amajipo y'umuhondo, abandi bambaye udupira tw'umweru n'amajipo y'ubururu, inyuma yabo hari ingoma hahagaze n'abandi bantu bari gukoma amashyi.

Umusozi muremure uriho ishyamba ryegeranye n'imirima ihinzemo ibihingwa bitandukanye, imbere yaho hari amazu yubakishije amatafari, afite inzugi n'amadirishya, imbere yayo hari abanyeshuri benshi.

Abanyeshuri benshi bahagaze begeranye, abakobwa bambaye amashati y'umweru namajipo y'ubururu, abasore bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'ubururu, inkweto z'umukara, bose bafite mu ntoki amacupa harimo jus ya orange, imbere yabo hahagaze abandi bantu.

Abanyeshuri benshi bahagaze ku mirongo utambitse, bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kacyi, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, imbere yabo hateretse imipira, hari n'abandi banyeshuri bicaye, bambaye imyenda y'ubururu bafite imipira mu ntoki.

Abanyeshuri benshi bahagaze n'abicaye bambaye imyenda y'ishuri y'amabara atandukanye, bahetse ibikapu, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ingofero n'imyenda y'ubururu bwijimye.

Abanyeshuri bari mu ishuri ryubakishije amatafari, bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho mashine, imbere yazo hari abagabo bahagaze bambaye amakote.

Icyumba gitoya gisize irangi ry'umweru kirimo ameza manini maremare ateretseho imashini zifite ibara ry'umukara zifunguye, iruhande rwazo hari abantu bahicaye.

Inzu yubakishije amatafari, ikaba ifite inzugi n'amadirishya bisize ibara ry'icyatsi, imbere yayo hari umuhanda, inyuma y'umuhanda hari ibiti.

Inzu nini yubakishije amatafari isize irangi ry'umweru, isakaje amabati y'ubururu, ifite amadirishya magari asize irangi ry'umuhondo, imbere yayo hari indabo, hahagaze abakobwa bane.

Abanyeshuri benshi bicaye hasi harimo abakobwa bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kaki, harimo n'abahungu bambaye amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki, harimo n'abandi muri bo bambaye imipira y'icyatsi.

Inzu nini yubakishije amatafari, ifite ibirahure bibonerana irimo sima, irimo intebe z'ubururu zicayeho abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, amajipo n'amapantaro by'umukara bari kureba umugabo uhagaze imbere yabo.

Icyumba gitoya kirimo sima giteye umucanga, kiriho ikibaho cyandikishijeho mu ibara ry'umweru, gifite urugi rufite irange ry'ubururu, kirimo ibintu byinshi harimo intebe, ameza n'ibikarito.

Umunyeshuri uhagaze wambaye ishati irimo imirongo na karavate n'ipantaro ya kaki, afite igitabo mu ntoki, iruhande rwe hari etajeri itenzemo ibitabo, hejuru yayo hariho amakadere y'amafoto.

Amazu yubakishije amatafari azitiwe n'ibyuma bisize irangi ry'ubururu, akaba afite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu, imbere yayo hari ikigega cy'amazi cy'umukara n'abantu.

Inzu nyinshi zegeranye, zubakishije amatafari, zifite amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'icyatsi, zisakaje amabati afite irangi ry'ubururu, ryegeranye n'ikibuga kinini, cyegeranye n'ibiti birebire.

Ishyamba rinini, ririmo ibiti byinshi bifite amashami menshi y'icyatsi, ryegeranye n'umuhanda munini utenzemo amabuye, iruhande rwawo hari icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishijeho irangi ry'umukara.

Inzu nyinshi zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati y'ubururu, inyuma yazo hari ibiti byinshi byegeranye birebire, imbere yayo hari ikigega cy'umukara, iruhande rwayo hari ikibuga kinini kirimo akayatsi gihagazemo abantu.

Inyubako nyinshi zegeranye zubakishije amatafari zisakaje amabati y'ubururu zisize irange ry'umweru, imbere yazo hari ikibuga kinini cyane kirimo akanyansi kizengurutswe n'ibiti bigufiya bifite ibibabi by'icyatsi.

Inzu nini ifite parafu y'umweru, ifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo n'ubururu, ryuzuyemo abanyeshuri benshi bazamuye amaboko bicaye ku ntebe, bambaye imyenda ya kake n'ubururu, imbere yabo hahagaze abandi bambaye umweru n'amapantaro ya kaki bicaye ku ntebe z'umweru.

Abantu benshi b'urubyiruko, rw'abasore n'inkumi, bicaye ku mirongo, bambaye imyenda isa imipira y'icyatsi, bamwe bicaye bareba imbere, bakurikira abandi bunamye bandika.

Inzu yubakishije amatafari, ikaba izitiwe n'urugo rw'imiyenzi, imbere yayo hakaba hari ikibuga cy'akanyatsi gihagazemo abantu, abandi bicaye bambaye n'udupfukamunwa.

Inzu nini irimo amakaro ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, ririmo amadirishya abonerana, ririmo abanyeshuri benshi, bambaye amashati y'umweru, amakaruvati, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu.

Icyapa cy'umweru cyandikishijeho inyuguti mu mabara y'umukara, ubururu n'umutuku, hejuru yacyo hateretseho agaseke, uruhande rwacyo hari ibiti, kikaba gishinze mu kanyatsi.

Abana benshi bishimye bari guseka bambaye imipira y'imyeru n'iya oranje n'amashati y'ubururu bicaye ku ntebe z'umweru bari mu gishararaga cy'umweru, iruhande rwacyo hari imodoka.

Ikibuga cya volley, kirimo abantu bakoze amatsinda abiri, bamwe bambaye imyenda y'umutuku n'umweru, abandi bambaye umweru n'umukara, inyuma yabo hari amazu, yubakishije amatafari, n'amadirishya arimo ibirahuri bibonerana.

Inzu yubakishije amatafari isize irangi ry'umuhondo ikagira amadirishya afite ibirahure bibonerana, irimo abanyeshuri benshi bicaye ku ruziga bambaye amashati y'umweru amajipo n'amapantaro ya kaki hagati yabo hahagaze umugabo.

Abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu bicaye barebana, hagati yabo harimo ameza y'ubururu ateretseho ibiryo n'imineke bakaba bari kurya, iruhande rwabokaba ari igikuta kiriho idirishya risize irangi ry'ubururu cyuyubakishije amatafari.

Inzu nini yubakishije amatafari, isakaje amabati y'ubururu, ifite amadirishya asize irange ry'umweru, yegeranye n'ibiti birebire bifite indabo z'icyatsi n'umuhondo, iruhande rwabyo hari abanyeshuri babiri bari gutambuka.

Inyubako nini yubakishije amatafari irimo amatara menshi ariko kwaka, ifite intebe zicayeho abanyeshuri benshi bambaye amashati y'umweru, amajipo n'amapantaro ya kaki, bari kureba umusore uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Abanyeshuri benshi bambaye amashati y'ubururu, amakabutura y'ubururu bwijimye, bateruye ibisorori binini cyane birimo ifu y'umweru yafatanye, iruhande rwabo hari ikibuga kinini cy'igitaka.

Inyubako nini yubakishije amatafari isize irange ry'umuhondo, imbere yayo hari imodoka iruhande rwayo hari umuhanda munini urimo abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara.

Abanyeshuri benshi bambaye amashati y'umweru bamwe muri bo bambaye imipira y'icyatsi, bicaye hasi, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'ubururu bwijimye inyuma ye hateretse ameza.

Ishuri rinini ryubakishije amatafari, rifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'icyatsi, ryicayemo abanyeshuri benshi bambaye amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki bari kwiga.

Icyumba kinini kirimo sima gifite tageri nini cyane ndende iriho ibitabo byinshi by'amoko atandukanye bifite amabara atandukanye harimo ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'umukara.

Inzu nyinshi zikoze uruziga, zubakishije amatafari zisize irangi ry'icyatsi n'umuhondo, zisakaje amabati y'ubururu, imbere yaho hari ikibuga kinini kirimo ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Icyumba kinini kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye amashati y'ubururu n'udupfukamunwa, begereye umugabo uhagaze wambaye ikote, ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki iruhande rwe hari abandi bantu benshi bahagaze.

Abagabo bahoberanye bambaye imyenda y'umukara, harimo n'uwambaye imyenda y'umuhondo, inyuma yabo hakaba hari abantu benshi bicaye harimo n'abahagaze babareba, inyuma yabo hakaba hari ishyamba.

Imisozi miremire iriho ibiti byinshi byegeranye by'icyatsi, imbere yawo hari amashuri yubakishije amatafari, asakaje amabati y'ubururu hari ikibuga kinini kirimo akanyansi, kirimo abanyeshuri benshi.

Abantu benshi bari ku kibuga cya Volley bambaye imyenda itandukanye, hari abambaye amakabutura y'umweru n'amasengeri y'ubururu, abandi bambaye amakabutura n'amasengeri by'umukara n'umweru, iruhande rw'ikibuga hari ibiti.

Icyumba kinini kirimo amakaro, gifite inkuta zisieze irange ry'umweru n'iparafu y'umweru, kirimo ibintu byinshi bitenze byegeranye ameza, ibikarito, mashini n'imigozi.

Icyumba gitoya kirimo amakaro, gisize irangi ry'umweru n'amadirishya ariho rido, iruhande rwayo hari utubati dukoze mu mbaho, twegeranye n'ibitanda bibiri bisashe neza.

Inzu ndende nyinshi, zubakisheje amatafari, zisize irangi ry'umuhondo, imbere yazo hari ibiti birebire, bifite amababi y'icyatsi, iruhande rwabyo hari abantu, benshi bari gutambuka.

Inzu yubakishije amatafari, ifite iparafo isize irangi ry'umweru, ikagira inzugi zisize irangi rya oranje, imbere yayo hateretse intebe y'icyatsi, ikagira n'isima isa n'ivu.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umuhondo n'umweru, afite amadirishya gifite ibirahure bibonerana, gifite intebe z'ubururu zicayeho abantu bambaye imyenda itandukanye, bari kureba imbere, hicaye abandi bantu.

Icyumba kinini gitenzemo ameza n'intebe ifite ibara ry'umweru n'umutuku, gifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo n'amadirishya afite ibirahure bibonerana, ku gikuta cy'imbere harambuweho ikibaho gifite ibara ry'umweru.

Ikirere gifite ibicu by'umweru n'ubururu, munsi yacyo hari amashyamba agiye afite ibiti birebire, iruhande rwayo hari amazu yubakishije amatafari, asakaje amabati y'amabara atandukanye.

Umuntu ukenyeye isume uhagaze iruhande rw'igitanda kigerekeranyije hasi no hejuru, iruhande rwacyo hari akabati karimo imyenda munsi harimo n'utujerekani.

Inzu ndende yubakishije amatafari, isize irangi ry'umuhondo, ikagira amadirishya asize irangi ry'umweru, iruhande rwayo hari akanyatsi, hirya gatoya hari ibiti byinshi birebire byegeranye.

Icyapa cy'ubururu cyandikishijeho inyuguti mu ibara ry'umweru, kegeranye n'uruzitiro rwubakishije amatafari, imbere yarwo hari umuhanda.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru, kirimo amakaro y'umukara, gitenzemo etajeri zikoze mu mbaho, kirimo ibitabo bigiye bitandukanye by'amabara atandukanye yiganjemo icyatsi.

Imodoka ebyiri imwe ifite irangi ry'umweru n'umukara, indi ifite umutuku biri kunyura mumuhanda wegereye icyapa gisize irangi ry'ubururu cyandikishijeho ibara ry'umweru.

Icyumba kinini kirimo amakaro gisize irangi ry'umweru gifite amadirishya abonerana, kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umutuku ateretseho amazi n'amakaye.

Icyumba kinini gifite ibara ry'umweru, kicayemo abantu benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bagiye bafite amakaye mu ntoki, hari n'abandi bantu bagiye bahagaze hagati.

Icyumba gitoya gifite parafu y'umweru kirimo amakaro, gisize irangi ry'ikijuju n'icyatsi, gifite ibyuma byinshi biteye ku gikuta gifite irangi ry'umweru n'umukara, imbere yabyo hari intebe.

Inyubako nyinshi zubakishije amatafari, zisakaje amabati y'ubururu, zifite imiryango n'amadirishya asize irange ry'umukara, inyuma yayo hari ibiti byinshi cyane byegeranye birebire bifite amashami menshi.

Abantu harimo abakobwa n'abasore, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'icyatsi n'umukara, imbere yabo hari ameza ariho amakaye n'ibikapu bakurikiye umugabo uhagaze imbere yabo.

Icyumba kinini kirimo sima, gisize irangi ry'umweru kirimo intebe zigiye zegeranye mu kavuyo, izo ntebe zikaba zikoranye n'utumeza twazo zifite amaguru asize irangi ry'umukara.

Akanyatsi gateyemo ibiti bibyibushye birebire bifite amababi y'icyatsi, imbere yabyo hakaba hari ibyapa bibiri bifite ibara ry'umweru n'iry'ubururu bikaba byandikishijeho ibara ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze, bagiye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, iruhande rwabo hari intebe z'umutuku, munsi y'intebe hari amatafari, iruhande rwaho hari isima y'umutuku, hakaba hari n'amatara abonesha cyane.

Inzu ifite sima y'icyatsi ikaba isize irange ry'umweru ku gikuta hariho ikibaho cy'icyatsi, imbere yacyo hahagaze umugore wambaye umupira w'umukara, ijipo y'icyatsi afite mikoro mu kaboko.

Inyubako ndende isize irange ry'umweru ikagira amadirishya asize irange rya kaki, imbere yaho hakaba hari ibiti birebire bigiye byegeranye bifite amashami maremare n'amababi y'icyatsi.

Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye bari kugenda mu muhanda, imbere yabo hari inzu nini ndende yubakishije amatafari, iruhande rwayo hari indabo nyinshi cyane z'amabara atandukanye, hejuru yazo hari igiti kinini cyane.

Inzu zegeranye ndende, zisakaje amabati y'umutuku, iruhande rwazo hari ibiti birebire bitatanye, bifite amashami menshi n'amababi y'umutuku, n'umuhondo, imbere yabyo hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi, cyicayemo abantu.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye amataburiya y'umweru, ga z'ubururu ,iz'umweru, iza move imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'umuhondo.

Amazu yubakishije amatafari afite amadirishya asize irange ry'umweru, asakaje amabati y'umutuku, hejuru yawo hari akanyansi, hejuru y'akanyansi hari inzu y'umweru ndende.

Etageri zitenzeho ibitabo by'amoko agiye atandukanye, hariho ibitabo bifite ibara ry'icyatsi, ibara ry'umutuku, umuhondo, umukara, imbere yaho hari ameza yegeranye n'intebe z'icyatsi.

Ibiti byinshi byegeranye imbere yabyo hari amazu maremare asize irange ry'umuhondo, imbere y'ayo mazu hari akanyansi kegereye abantu benshi harimo abagabo n'abagore.

Icyumba kinini gisize irange, gifite parafo y'umweru; ku gikuta hometseho ikibaho kiriho ubururu, hejuru yacyo hari akantu k'umukara, hejuru yako hari ikindi cyuma kinini cy'umweru.

Inyubako nyinshi zisakaje amabati y'umutuku zisize irangi ry'umuhondo, inyuma yazo hari ibiti byinshi byegeranye by'icyatsi bifite amashami menshi, iruhande rwabyo hari umuhanda n'abantu bari gutambuka.

Urupapuro rw'umweru rushushanyijeho imbonerahamwe, rwandikishijweho mu ibara ry'umukara, rukaba ruteyeho na kashe y'ubururu, rwometse ku idirishya risize ibara ry'umukara.

Inzu nini ndende yubakishije amatafari, isize irangi ry'umweru, ikaba isakaje amategura, imbere yayo hari indabo nyinshi cyane zifite ibara ry'umuhondo, iruhande rwazo hari abagabo babiri bari gutambuka.

Icyumba kinini gisize irange ry'umuhondo kirimo amakaro, kirimo imashini y'umukara ifunguye, ifite sikirini yandikishijeho amagambo mu ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara.

Uruzitiro runini rwubakishije amatafari iruhande rwarwo, hari ibiti birebire bitandukanye bigiye bifite amashami menshi, iruhande rwabyo hari umusore wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'umukara, uri gutambuka.

Inzu nyinshi zubakishije amatafari zisize irange ry'umuhondo, zisakaje amabati y'umutuku, iruhande rwazo hari igiti kirekire gifite amashami menshi, imbere yacyo hari umuhanda n'abantu bari gutambuka.

Icyumba kinini cyane, kirimo ibintu byinshi bitenze mu kavuyo, kirimo abantu babiri bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari ameza manini y'umukara, ariho ibikarito, imashini n'imigozi.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi n'utumeza twazo gifite isima isize irangi ry'icyatsi, gifite amarido y'ubururu n'umweru hari umuntu wicaye ufite imashini wambaye agapira k'umukara.

Icyumba kinini cyubakishije amatafari kirimo intebe nyinshi zitenze ku murongo neza, igisenge cyacyo kikaba gifite ibyuma byinshi bigiye biriho amatara ari kwaka n'udutambaro tw'amabara atandukanye.

Inzu nyinshi zegeranye ndende zubakishije amatafari ahiye, zisize irangi ry'umweru, imbere yazo hari imodoka, imbere y'imodoka hari abantu benshi bahagaze bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Icyumba kinini kirimo amakaro, gisize irangi ry'umuhondo, gifite parafo y'umweru, kirimo intebe nyinshi zegeranye zifite ibara ry'ubururu n'ameza manini, imbere hari ikibaho cy'umweru.

Icyumba kinini kirimo amakaro, gisize irangi ry'umweru, cyicayemo abantu, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'ubururu. Imbere yabo hari ameza, ariho amacupa y'amazi, imashini n'imigozi.

Ibiti byinshi bitandukanye birebire, munsi yabyo hari amazu yubakishije amatafari asize irange ry'ivu, iruhande rwayo hari umuhanda, iruhande rwayo hari n'ibiti bitoya by'icyatsi.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara, umupira muremure w'ubudodo, utwaye igikapu cy'ubururu wegereye uruzitiro rufite ibara rya shokora, imbere yarwo hari indabyo zifite amababi y'icyatsi n'umweru.

Amazu menshi maremare manini, yubakishije amatafari, afite amadirishya, asize irangi ry'umweru, imbere yayo hari ibiti birebire byegeranye byinshi bifite amababi y'icyatsi, iruhande rwabyo hari indabo.

Ikibuga kinini kirimo akanyatsi giteyemo icyapa cy'umweru cyandikishijeho ibara ry'umukara, iry'ubururu n'iry'icyatsi, inyuma yacyo hari urugo rusize irangi ry'umweru, inyuma yarwo hari ibiti byinshi byegeranye.

Icyumba kinini kirimo ibintu byinshi byegeranye, ibipapuro binini bisa umweru bigiye biteyeho ibirangantego byo mu ibara ry'ubururu, imbere yabyo hari ameza manini n'intebe z'icyatsi n'umutuku.

Icyumba kinini kirimo amakaro, gifite inkuta zisize irange ry'umweru n'umuhondo cyometseho ikibaho cy'icyatsi, imbere yacyo hahagaze umugore wambaye ikanzu areba abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza.

Icyumba kinini cyubakishije amatafari, ku nkuta hariho amatara ari kwaka, giteretsemo etajeri zifite ibara ry'umuhondo, zigiye zitenzemo ibitabo by'amabara atandukanye.

Icyumba gisize irangi ry'umweru na sima y'umutuku, giteretsemo etajeri zikoresheje imbaho, hejuru yazo hateretse imashini y'umutuku, iruhande rwaho hari kizimyamoto y'umutuku.

Ameza arambitseho mashine ifunguye ifite ibara ry'umukara, yegeranya n'imigozi y'umweru irambitseho telefone y'umukara, iruhande rwayo hari imashini y'umweru irimo impapuro zifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa cy'ubururu cyandikishijeho ibara ry'umweru kiri mu byatsi, inyuma yacyo hari indabo z'umutuku n'inzu ndende, iruhande rwacyo hari abantu babiri bafatanye ukuboko.

Ikibuga kinini cyane kirimo sima cyegeranye n'akanyatsi kegeranye n'ibiti birebire byegeranye bifite ibibabi by'icyatsi, iruhande rwabyo hari akazu kubabakishije amatafari gasize irangi ry'umuhondo.

Icyumba kinini gifite parafo y'umweru, gisize irange ry'umuhondo, gifite amadirishya afite ibirahure bibonerana asize irange ry'icyatsi kirimo intebe nyinshi zegeranye zifite ibara ry'umukara n'ubururu.

Inzu nyinshi zegeranye zubakishije amatafari, zisakaje amabati y'umutuku, z'isize irangi ry'umuhondo, rikagira amadirishya manini, imbere yaho hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi n'utuyira.

Inyubako nini ndende yubakishije amatafari, isize irangi ry'umweru, ikaba isakaje amabati ya orange, ikaba ifite amadirishya y'umweru, imbere yayo hari ikibuga kinini kirimo akanyatsi.

Inzu yubatse igeretse isakaje amabati y'umutuku, ikaba isize amabara y'umweru n'umuhondo, inyuma yayo hakaba hari ishyamba, imbere y'iyo nzu hakaba hari umurima munini urimo ibyatsi.

Inzu nini yubakishije amatafari isize irangi ry'umuhondo ikaba iriho ibyuma by'umutuku irimo n'amakaro ihagazemo abantu benshi batandukanye iruhande rwabo hari ameza.

Abantu babiri bambaye amashati n'amapantaro umwe ahagaze undi ari gukubura, inyuma yabo hari uruzitiro ruzitiye inzu yubatse ijyerekeranyije haruguru yaho hari ibiti.

Icyumba kirimo amakaro, gisize irangi ry'umuhondo, gifite igisenge gifite ibara ry'umweru, giteretsemo ibikarito bibiri birebire, iruhande rwabyo hari akabati, hejuru yabyo hateretse utundi dukarito dutoya tw'umweru.

Icyumba kinini kirimo ibintu byinshi byegeranye, kirimo abantu bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari ameza ariho ibintu byinshi bitandukanye harimo impapuro, amacupa, uducupa dutoya dufite ibara ry'ubururu n'ibindi.

Icyumba kinini gisize irangi ry'umweru, kikagira amadirishya afite ibirahure bibonerana byometseho urupapuro rw'umweru, kikaba kirimo intebe n'ameza yacyo, imbere yazo hari indi ntebe imwe ifite ibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho machine n'amazi, mu'icyumba gisize irangi ry'umweru, gifite parafo y'umweru, kikagira amakaro, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikote, ipantaro yumukara n'inkweto z'umukara.